Umuganga wambaye itaburiya y'umweru imbere hateretse icyuma kifashishwa mu kureba utuntu dutoya bita mikorosikopi, abaganga ni ingenzi cyane muri iyi si dutuyemo kubera yuko badufasha kutuvura igihe turwaye.

Abantu bahagaze imbere y'amashuri, bakaba bakoze uruziga bose bazamuye amaboko, bisa naho barimo gukora siporo. Siporo ni ingenzi kuko ihuriza abantu hamwe bakaganira bagasabana ndetse bakarushaho kungurana ibitekerezo.